Turikumwe ni ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima, bugoboka umuryango wawe mugihe wahuye n'impanuka, kanda akanyenyeri, gatanu, gatatu, rimwe, urwego, bitarenze iminsi itatu turakwishyura.

Yego burahendutse, kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego, gura turikumwe, ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'abagize umuryango wawe.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda itandukanye harimo imyenda y'abagabo n'iy'abagore. Bikaba ari iduka ryitwa golden fashion hakaba harimo amakote y'abagabo bashobora gukorana mu myitozo, amakoti arimo amabara y'ubururu, umweru, ndetse n'umutuku.

Iduka ricuruzwamo imyenda itandukanye harimo iy'abagabo, iy'abagore n'abana, imyenda ikaba ifite amabara atandukanye ndetse inamanitse ku byuma bamanikaho imyenda harimo amabara ya gisirikare, umweru, umutuku, umukara, n'umuhondo.

Iduka ricururizwamo inkweto zitandukanye zikaba zimanitse mu kabati zikaba ari inkweto zirimo ubwoko butandukanye, harimo n'inkweto zo kujyana muri siporo ndetse n'inkweto zoserukana zifite amabara atandukanye harimo iz'umweru, umutuku ndetse n'ubururu.

Iduka rikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, imyenda n'inkweto ndetse n'amapantaro n'imipira, hakaba harimo imipira y'amabara atandukanye imanitse ku cyuma kimanikwaho imyenda, harimo imipira y'ubururu, umuhondo, umutuku, n'umukara.

Iduka ririmo umugore wambaye agatambaro mu mutwe, harimo n'umukobwa w'inkumi aje kugura. Hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo ndetse harimo n'ibyo kurya nk'ifarini, imiceri, kawunga ndetse n'ibirungo byo gushyira mu biryo.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'umweru afite ikaramu ari kwandika ku gipapuro, hirya ye hari umugore w'umuzungu wambaye umupira w'umuhondo imbere ye hari mudasobwa ari kuyikoresha.

Iduka ricuruzwamo imyambaro itandukanye y'abagore ikozwe mu bitenge ndetse no mu yindi myenda. Hakaba hasizemo irangi ry'umweru harimo n'utubati two gupangamo imyenda kugira ngo abaza babagana babashe kubona imyenda bakora.

Abakobwa babiri bahagaze mu nzu icururizwamo imyenda yo kwambara, umwe yambaye agakote k'ubururu ndetse n'ipantaro'ubururu, undi yambaye ishati afite igikoresho cyo kwishyuza mu ntoki ze, undi nawe afite terefone arimo arishyura.

Utubati dukozwe mu biti tumanitseho ibitenge by'abagore, ndetse tukaba ari dutatu turiho ibitenge by'amabara atandukanye ndetse n'amabara avanze harimo ubururu, umutuku, umuhondo, umukara n'umweru.

Inzu icururizwamo imyambaro itandukanye y'abagore harimo amashati arimo amabara y'umukara n'umweru amanitse ku kuma kamanikwaho imyenda, harimo n'amakanzu y'amabara y'umutuku n'umuhondo.

Iduka ricuruzwamo imyenda yo kwambara cyane cyane harimo ibitenge by'abagore, bikaba bimanitse ku rukuta kutwuma bamanikaho imyenda, bikaba birimo amabara atandukanye harimo umutuku, ubururu umweru ndetse n'umukara.

Iduka ricuruzwamo imyenda hakaba hacururizwamo imyenda y'abagabo ndetse n'iy'abagore, hanze hakaba hariho ibikoresho umuntu amanikaho imyenda kugira ngo ayereke abaguzi. Hakaba hamanitseho amakanzu y'amabara atandukanye arimo umuhondo, umweru.

Inzu irimo amarangi y'umuhondo hahagazemo umukobwa wambaye umupira w'umunpanra n'ipantaro y'umweru. Haka hari inzu icururizwamo imyenda itandukanye harimo imipira y'umweru, umuhondo ndetse n'umukara. Hakaba harimo n'indi myenda nk'ibikapu ndetse n'amapantaro.

Imodoka ifite ibara ry'umukara ndetse icanye amatara y'imbere ikaba iri mu muhanda w'umukaraba. Ikaba ari imodoka yakozwe bibiri na cumi na kabiri, ikaba iri kugurishwa yo mu bwoko bwa KIA iri kugurishwa miliyoni icumi z'amanyarwanda.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara akaba afite ikimenyetso cy'akagera mu ntoki ze, hirya ye hakaba hari imodoka ifite ibara ry'umweru yo mu bwoko bw'ifuso imodoka iba iba ifite ubushobozi bwo gutwara imizigo myinshi kandi iremereye.

Inzu yubakishijwe amabara atandukanye harimo umweru, ikaba ari inzu ifunguye umuryango harimo imodoka mo imbere, hakaba hariho ishami ry'ubwoko bw'imodoka bwa Hyundai bukorera, akaba ariho umuntu yagana igihe ashaka kugura imodoka yo muri ubu bwoko.

Imodoka ifite ibara ry'umweru y'ubwoko bwa yundayi ikaba ari imodoka itwara abagenzi, ifite ubushobozi bwo gushyiramo abagenzi mirongo itatu na babiri, ikaba iri aho bazigurishiriza...

Imodoka y'umukara ifite amatara y'umuhondo y'imbere ari kwaka, ikaba iri mu bwoko bwa vogisiwageni yakozwe bibiri na cumi na gatandatu, ikaba iri mu isoko ry'imodoka rya Kigali, ikaba iri kugurishwa miliyoni cumi na zirindwi z'amanyarwanda.

Abagabo batatu, bamwe bambaye umupira undi yambaye ishati bahagaze, bafite ikirangantego cyanditseho Akagera, inyuma yabo hakaba hari igikamyo gikoreshwa mu kwikorera imizigo iremereye cyane cyo mu bwoko bw'ifuso.

Imodoka y'umukara ifite amapine y'umukara ikaba ihagaze, ifite imiryango ine, ikaba ari imodoka igurishwa, ikaba ifiteho inyuguti VIP inyuma.

Inzu isizamo amarangi y'umukara ndetse n'umweru irimo n'amakaro, hakaba hahagazemo ikinyabiziga kinini gifite ibara ry'umuringa, akaba ari ikinyabiziga gishyashya cyo mu ubwoko bwa Hyundai, ikaba ari imodoka igurishwa.

Abagabo babiri bambaye amashati ndetse n'amapantaro, mu ntoki zabo bafashe ikimenyetso cyanditseho akagera, inyuma yabo hari imodoka icanye amatara y'umweru, ifite ibara ry'umukara, ihagaze.

Imodoka ifite imiryango ine, ikaba ifite amapine y'umukara, ifite ibara risa n'ifeza, ikaba ariyo mu bwoko bwa Hyundai, ikaba ari imodoka ihagaze iri mu isoko ry'imodoka rya Kigali.

Abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, batatu ari abazungu, umwe ari umwirabura, hakaba hari abagabo babiri umwe yambaye ishati y'ubururu undi yambaye ishati y'umuhondo, mu ntoki zabo bafite icyapa cyanditseho Akagera, inyuma hari imodoka ifite ibara ry'ifeza.

Abagabo babiri bambaye amashati umwe yambaye ipantaro ya kake undi yambaye ipantaro y'umukara, bafashe ikirangantego cyanditseho Akagera, hirya yaho hari imodoka y'umweru yo mu bwoko bw'igikamyo ikoreshwa mu gutwara imizigo.

Imodoka ifite ibara ry'umukara ndetse n'amapine y'umukara, akaba ari imodoka ifite imiryango ine, ikaba iri mu nzu isizemo amarange y'umweru ndetse hakaba harimo n'amakaro, ikaba ari inzu igurishirizwamo imodoka.

Imodoka ifite ibara ry'umweru rivanzemo n'umukara, ikaba imodoka ihagaze, ari mu bwoko bwa toyota nshyashya, ikaba ari imodoka igurishwa, ukaba wayigura amafaranga bitewe n'igiciro aho bazigurishiriza iriho.

Umugabo wambaye amadarubindi, yambaye n'ikarita mu ijosi ndetse n'umupira w'ubururu, ishati y'umweru na karuvate, akaba ahagaze afite amafaranga mu ntoki ze, hirya ye hari imashini ya mudasobwa akoresha mu kazi.

Igiceri gikozwe muri zahabu cyanditseho mirongo itanu, akaba ari igiceri gifite agaciro k'amafaranga mirongo itanu cya kera cyakoreshwaga mu guhaha ibintu bitandukanye harimo: ibikoresho ndetse n'ibyo kurya.

Inote ebyiri zifite ibara ry'iroza ryanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda, zikaba ziriho amafaranga angana n'ibihumbi bitanu, hariho amashusho y'abakobwa bari kubyinyina imbyino za kinyarwanda n'indi iriho ifoto y'inzu igeretse.

Inote ebyiri z'amafaranga afite agaciro k'igihumbi, akaba ari inote ifite ibara risa n'ubururu, ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda ikaba yemejwe na banki nkuru y'u Rwanda, ikaba ishushanyijeho inzu indi iriho ishusho y'ingagi.

Amafaranga y'inote ebyiri zanditseho banki nationale y'u Rwanda itegeko rihana umuntu wese uzigana iyi note, akaba ari amafaranga afite agaciro ka magana atanu yo mu gihugu cy'u Rwanda ariho abana ndetse n'indi iriho ingagi.

Amafaranga apanze mu mifungo menshi cyane, hirya yayo hakaba hari imashini ikora akazi ko kubara amafaranga menshi ndetse mu gihe gito. Ikaba ikoreshwa mu mabanki cyangwa se ahandi hose baba bakeneye kubara amafaranga menshi kandi vuba vuba.

Inzu ya isizemo amarangi y'umweru hicayemo umukobwa n'umuhungu, umuhungu yambaye ikote, karuvati ndetse n'ishati y'umweru, n'agapfukamunwa, umukobwa nawe yambaye ikoti ry'umukara, n'agapfukamunwa bicaye mu ntebe, imbere yabo hari akabati gateretseho mudasobwa.

Inzu isizemo amarangi y'umweru ndetse n'ubururu icururizwamo amata yo kunywa, hakaba hicayemo abasore n'umukobwa, imbere y'abo hari ameza ateretseho ibikombe birimo amata bari kuyanywa.

Ibikoresho bikozwe mu byuma bita ibicuba bikaba ari ibikoresho bikoreshwa mu kugemura amata cyangwa se kuyabika igihe amaze gukamwa, bikaba ari ibicuba byinshi harimo abagabo babiri bari gusuka amata bayakuramo.

Inzu isize amarangi y'umweru harimo utubati turimo utubido tw'umweruru tw'umuhondo, hakaba harimo abagabo babiri, umwe w'umusore n'undi w'umusaza wambaye amadarubindi, ku kabati hateretse ibyo kurya bikorwa mu ifarini imigati keke n'amandazi.

Inzu igurishirizwamo ibyo kurya bitandukanye harimo n'amata ava ku nka, hakaba harimo ndetse n'imitobe n'amazi bikozwe mu biribwa bitandukanye, hakaba hicayemo umukobwa ndetse harimo n'umusore uhagaze.

Abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe wambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, hari n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, undi akaba yambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umukara bahagaze bafite ibikombe by'amata bari kwamamaza.

Inzu irimo amarangi y'umweru ndetse harimo amakaro, harimo n'idirishya rifunguye rifite irangi ry'ubururu, hakaba ari inzu icururizwamo amata aturuka ku nka, harimo n'igikoresho kiyakonjesha gituma adata umwimerere.

Inzu isizemo irangi ry'ubururu n'umweru, ikaba ari inzu icururizwamo ibyokurya, harimo cyane cyane amata yo kunywa, harimo icyuma kiyatunganya kigatuma adapfa, harimo amagi, capati ndetse n'imitobe ikozwe mu zindi mbuto.

Ahantu hafite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu harimo abakobwa babiri bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru, harimo icyuma gikoreshwa mu gutunganya amata kugirango ngo adata umwimerere. Aha hakaba hari kwamamaza inyange akaba ari ikigo gikora ibinyobwa bitandukanye.

Abagabo birarabura bicaye aho bagurishiriza amata y'inshyushyu ndetse n'ikivuguto, akaba ari abagabo bageze muri batanu bafashe ibikombe birimo amata y'ikivuguto barimo barakozanyaho ibikombe.

Amapaki y'ibikozwe mu ifarini harimo nk'imineke, amandazi, bifunze mu mapaki, amapaki bikaba biri mu bipapuro by'umweru bibonerana, bigaragara yuko ari ibiryo bikozwe mu ifarini.

Inzu irimo abantu batandukanye, harimo abakobwa, n'abagabo, harimo umukobwa wicaye yambaye umupira w'umweru, imbere ye hari imeza iteretseho mudasobwa.

Ibiganza by'abantu bari guhererekanya amafaranga yo mu bwoko bw'inote, umwe ari gutanga amafaranga aturuka mu gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika y'amadolari afite agaciro k'ijana, ari inoti nyinshi, we bari kumuhereza amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Nigeriya, afite agaciro k'igihumbi.

Amafaranga yo mu bwoko butandukanye harimo amadolari, mu bwoko bw'inote ariho ifoto y'umugabo, akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no hanze yacyo, akaba afite agaciro k'ijana.

Amafaranga menshi afite agaciro gatandukanye harimo afite agaciro ka magana atanu ndetse n'afite agaciro k'igihumbi, akaba ari amafaranga ariho ishusho y'umugabo bita Mahatima Gandi akoreshwa mu Gihugu cy'Ubuhinde ndetse no hanze yacyo.

Abantu bari guhererekanya amafaranga y'amadorari akaba ari amafaranga aturuka mu gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ashushanyijeho umugabo, aya mafaranga akaba akoreshwa no hanze y'icyo gihugu akaba afite agaciro k'ijana.

Inoti nyinshi zifunze mu mifungo igera kuri itandatu, ikaba ari inote zifite amabara y'umweru, zikaba ari inoti zikoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, zifite agaciro k'ibihumbi bibiri by'amafaranga yo mu Buhinde.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inoti akaba ari amafaranga afite ibara ry'icyatsi hakaba harimo ishusho y'inzovu iyi noti ikaba ikoreshwa mu gihugu cya kongo ifite agaciro k'ijana.

Ibiganza by'umuntu ufashe ku mafaranga yo mu bwoko bw'inode, akaba ari amafaranga afite agaciro k'ijana, hariho isura y'umugabokaba ari amafaranga akoreshwa muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no hanze yaho.

Inote zitandukanye z'amabara y'icyatsi ndetse n'umutuku hakaba hari izifite agaciro gatandukanye ,harimo izifite agaciro ka magana atanu ,igihumbi ndetse n'ibihumbi bibiri zikaba ari inote zikoreshwa mu gihugu cya Tanzania handitseho banki nkuru ya Tanzania.

Abantu bari guhererekanya amafaranga atandukanye, hakaba hari amafaranga afite ibara risa n'umutuku ririho agaciro k'ijana akoreshwa mu Bushinwa y'amayeni, hakaba hari n'amadolari akoreshwa mu gihugu cya Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no hanze yacyo afite agaciro k'ijana.

Umuntu ufashe amafaranga yo mu bwoko bw'inote akaba ari amafaranga yo mu gihugu cy'Ubuhinde, akaba ariho ishusho y'umugabo bita Mahatma Gandhi afite agaciro ka magana cyenda.

Abantu bari guhererekanya amafaranga y'ubwoko butandukanye, umwe ari gufata amafaranga yo mu gihugu cy'Ubuhinde ariho ishusho y'umugabo witwa Mahat Magadhi afite agaciro k'ibihumbi bibiri, undi ari kwakira amafaranga y'amadorari yo mu gihugu cya leta zunze ubumwe z' Amerika afite agaciro k'ijana.

Abantu ubu bari guhererekanya amafaranga yo mu bwoko bw'amadolari ariho ifoto y'umugabo, akaba ari amafaranga yo mu gihugu cya Leta zunze Ubumwe za Amerika, afite agaciro k'ijana, akaba akoreshwa no hanze y'icyo gihugu.

Inzu irimo amakaro igurishirizwamo ibikoresho bitandukanye bikozwe mu biti byo mu ngo, harimo nk'intebe, utubati ndetse n'ibitanda, hakaba harimo intebe ifite imisego y'umweru yo kwicaraho.

Inzu irimo amabara y'umweru ndetse n'amakaro, akaba ari aho bacururiza ibikoresho bikozwe mu mbaho, harimo n'utubati ndetse ameza, hakaba harimo n'intebe zifite amabara y'icyatsi harimo n'ibitanda.

Imeza ifite ibara risa n'igitaka ikaba izengurutsweho n'intebe esheshatu zisa nayo, ikaba ari meza igurishwa umuntu ashobora gutegura mu nzu ye kugira ngo azajye ayiriraho.

Imeza ikozwe mu biti, ikaba hejuru ifite ikirahure kimeneka, ikaba ikikijwe n'intebe zisa nka yo, zikaba ari intebe eshatu biteretse mu nzu irimo amakaro.

Iduka ricuruzwamo ibikoresho bitandukanye byo gukoresha mu rugo bikozwe mu mbaho harimo utubati ndetse n'ameza, ameza aba afite n'intebe zayo zo kwicaraho bikaba ari ibikoresho bikoreshwa mu ngo z'abantu.

Inzu icururizwamo ibikoresho byo mu nzu harimo nk'intebe, ameza ndetse n'utubati, ikaba ari inzu irimo amarangi y'umweru hateretsemo imodoka, hateretsemo intebe zo kwicaraho zififite ibara ry'umutuku.

Akabati kariho imashini zikoreshwa mu ikoranabuhanga, hariho imashini ifotora impapuro, ndetse n'imashini ya mudasobwa ishobora gukoreshwa imirimo itandukanye.

Inzu yubatswe mu matafari ya rukarakara, ifite irangi ry'ubururu, hanze hari amahema, munsi yayo harimo intebe z'umweru umuntu yakwicaraho igihe adashaka kwicara munzu, ari gufata akayaga.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bw'amajyambere ikaba igeretse inshuro nyinshi ikaba ari inyubako ikoreramo hoteli yitwa marriot ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira umubare munini w'abakiliriya bashaka kuza kuharara ndetse ifite n'izindi serivisi nkaho kurira ndetse naho gukorera imyitozo.

Icyumba kirimo intebe zo kwicarwaho, zifite amabara atandukanye y'umukara, ndetse n'izindi zisa n'igitaka, imbere yazo hari akameza gafite amabara asa nk'umukara.

Inzu nini cyane irimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye, biteguye mu buryo butandukanye kandi bisa neza, hakaba ari ho abantu barara muri hoteri bajya kwiyakirira gufata amafunguro.

Inzu igeretse ifite amabara atandukanye, harimo umweru ndetse n'umukara, ikaba ari inzu ikorerwamo na hoteli ku buryo umuntu ashobora kujya kuharara igihe afite ubushobozi bwo kwiyishyura.

Umuhanda w'umukara wagenewe gucamo ibinyabiziga bitandukanye harimo: amapikipiki, imodoka ndetse n'ibikamyo byikoreye imizigo iremereye, bukaba bwije amatara yo ku muhanda acanye ari kumurika.

Umukobwa wambaye ishati y'icyatsi wafunze imisatsi ndetse n'umuhungu wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara yicaye mu ntebe y'umweru mo hagati yabo bose bicaye harimo imeza y'umweru umukobwa afite mudasobwa imbere ye.

Inzu ifite amabara y'umweru ndetse n'imiryango, hakaba harimo indorerwamo nini ifite n'utubati, munsi hakaba harimo amakaro, akaba ari inzu ikorerwamo n'ubwishingizi.

Inzu igeretse inshuro zirenze imwe ikaba ari inzu ikorerwamo n'ubwishingizi, hariho icyapa gifite amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, handitseho ubwishingizi bwitwa Purayime, akaba ari ishami riherereye i Rusizi.

inzu ifite amabara y'umuhondo ,hariho icyapa gifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, akaba ari icyapa cyanditseho ko iyi nzu ikorerwamo n'ubwishingizi bwitwa puriyime iri rikaba ari ishami riherereye i muhanga.

Inzu ifite amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umutuku, harimo imeza hirya yayo hicayemo abantu imbere yabo hari mudasobwa, akaba ari inzu ikorerwamo n'ubwishingizi bwa Britam, aho ujya bakagufasha kwishinganisha igihe wagize impanuka.

Inzu isizemo amarange y'umweru ndetse ifite imiryango isizeho irange ry'ubururu handitseho irembo. Hakaba hakorerwamo n'umukozi w'irembo ndetse n'umukozi w'amabanki ,afite ubushobozi bwo kwakira abakiriya baza bagana ibi bigo kugira ngo abafashe abahe serivisi nko kubabiguza amafaranga ndetse no kuyabika.

Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda watsinze amatora ya bibiri na makumyabiri na kane, yambaye ikote ry'umukara n'amadarubindi, ishati y'umweru, karuvati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Isoko ricuruzwamo ibikoresho bya gakondo mu muco wa kinyarwanda, harimo imyuko, ndetse n'inkoko, harimo n'ibikapu bikoreshejwe amabara atandukanye, harimo: umuhondo, umukara, n'umutuku.

Inyubako ndende cyane igereretse inshuro zirenga eshatu, hakaba harimo abantu benshi cyane bavanzemo abagabo n'abagore, hasi haparitse imodoka zifite amabara atandukanye harimo n'imodoka ya polisi.

Nyabugogo ahari isoko rishyashya rigezweho hakaba harimo amahema y'umweru ariho ibitambaro bitatseho by'amabara y'ubururu umuhondo n'icyatsi hakaba harimo abantu benshi batandukanye bavanzemo abagabo n'abagore.

Isoko ricururizwamo imyambaro itandukanye y'abagabo n'abagore hakaba harimo cyane cyane imyambaro y'abagore yo mu bwoko bw'ibitenge bikaba ari ibitenge bimanitse birimo amabara atandukanye arimo umutuku umuhondo umweru n'umukara.

Isoko bacururizamo ibiribwa bitandukanye harimo imineke, hakaba harimo ibijumba, ibitoki, inyanya, intoryi harimo amacunga, avoka ndetse n'amapapayi.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye harimo n'imboga, hakaba higanjemo n'imbuto zitandukanye, harimo imbuto nk'amatunda, amacunga, inanasi, imyembe, ibinyomoro ndetse n'amapapayi.

Isoko ricururizwamo ubucuruzi butandukanye, harimo abagore n'abagabo bakaba bicaye bategereje abaguzi, hakaba hacururizwamo imboga harimo ndetse n'intoryi, karoti, inyanya, ibitunguru na tungurusumu.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya, harimo abaguzi benshi, hakaba harimo ibyo kurya nk'ibitoki ndetse n'imboga, harimo inyanya, ibitunguru, tungurusumu ndetse n'imiteja, karoti n'intoryi.

Isoko ricururizwamo imyambaro, imyenda irimo iy'abagabo n'abagore ndetse n'abana batoya, ikaba ibapanze mu tubati dukozwe mu biti ndetse ikaba irimo amabara atandukanye, harimo ubururu, umutuku, umukara ndetse n'umundo.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye hakaba harimo abagore babiri bacuruza harimo imbuto nk'imineke, amapapayi, amacunga harimo inanasi ndetse n'imyembe.

Isoko ricururizwamo ibyokurya bitandukanye kandi rinini risakajwe n'amabati, hacururizwamo ibyorya nk'ibitok,i karoti, inyanya, ibitunguru, intoryi, imiteja, ndetse na tungurusumu n'ibijumba.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye cyane cyane imboga, harimo biringanya seleri , harimo ibitunguru ndetse inyanya, tungurusumu n'intoryi.

Isoko ricururizwamo ibyokurya bitandukanye, imboga ndetse n'imbuto. Hakaba harimo inyanya, intoryi, karoti, ibitunguru ndetse na tungurusumu bikoreshwa mu guteka; harimo n'ibirungo bitandukanye bijya mu biryo.

Isoko ricururizwamo imyenda itandukanye y'abagabo n'abagore harimo imipira ndetse n'ibitenge bifite amabara atandukanye by'abagore, hakaba harimo n'ibikapu byo kubikamo ibintu bikozwe mu bitenge ndetse bivanzemo amabara y'ubururu, umukara ndetse n'umuhondo.

Isoko ryo gucururizamo ibyo kurya bitandukanye risakaye neza n'amabati, hakaba hari gucururizwamo ibiribwa bitandukanye, harimo inyanya, karoti, ibitunguru, intoryi, imiteja ndetse na tungurusumu.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo cyane cyane ibiribwa nk'imboga, harimo inyanya, ibitunguru, intoryi, karoti ndetse na tungurusumu, bikoreshwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi bateka ibiryo.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo cyane cyane ibiryo, hakaba harimo imboga, harimo intoryi, imiteja, inyanya, harimo karoti, ibishyimbo, ibitunguru ndetse na tungurusumu.

Umugore n'umugabo bambaye imipira y'umuhondo irimo amabara y'ubururu bari kuri sitasiyo hari ikinyabiziga cy'ipikipiki cyagiye kunywa lisansi bakaba bari kuganira banaseka.

Washyizemo Fabrice Hakuzimana, ugiye kumwohererereza igihumbi cy'abamanyarwanda urakatwa amafaranga angana na makumyabiri y'amanyarwanda shyiramo umubare w'ibanga wemeze.

Umugabo uhagaze yemye yambaye amadarubindi yumukara akaba yambaye umupira wumuhondo ndetse n'ishati imbere ye hari ipikipiki ifite amabara yumukara ndetse n'amabara y'umuhondo inyumaye hakaba hari icyapa cya mtn gishushanyijeho imodoka yumukara.

Akazu gakozwe mu cyuma kaba gashinze ku muhanda, gafite ibara ry'umuhondo ryamamaza MTN, mu imbere haba hakoreramo umukozi ushinzwe gufasha abakiriya baza bagana MTN ,akababikuriza amafaranga cyangwa se akabikuza amafaranga.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo harimo amabara y'ubururu, akaba ahagaze iruhande rw'imodoka y'igikamyo ifite amabara y'umukara, imbere harimo umuyobozi wayoba ari gukangurira abantu gukoresha umurongo wa MTN.

Umugore uhagaze mu isoko yambaye itaburi ya emutiyene yanditseho momo, akaba ari mu isoko aho bagurishiriza ibintu bitandukanye harimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Amahema afite ibara ry'umuhondo handitseho MTN, hakaba mo imbere harimo abakobwa ndetse n'abasore, bambaye imipira y'umweru n'umuhondo bakaba bari kwamamaza MTN banatanga serivisi zijyanye na yo.

Akazu gakozwe mu cyuma kaba gashinze ku muhanda gafu gasize irangi ry'umuhondo ryamamaza emutiyene hakaba harimo umukozi wa emutiyene ushinzwe gutanga serivisi, abakiriya baza babagana nko kubikuza amafaranga ndetse no kubabikira.

Iduka rigurishirizwamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo amaterefone, ibigaragaza amashusho ndetse n'ibiyafata. Rikaba rifite n'urubuga kuri murandasi umuntu ashobora kuguriraho ibyo bikoresho atiriwe ava iwe.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara afashe ku igare ahetse igikapu gifite amabara y'icyatsi kibisi cyanditseho vuba vuba igikapu kinini kikaba ari kinini ashobora gushyiramo imizigo.

Umusore wicaye ku ipikipiki akaba yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, ipikipiki ikaba iriho isanduku inyuma, ikaba ijyamo ibyo bamutumye, kugira ngo abigeze ku bakiriya.

Ipikipiki iriho umuyobozi yambaye ishati y'icyatsi, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru, ku ipikipiki inyuma hariho igikapu kinini cyanditseho vuba vuba, kijyamo imizigo agiye kugemurira abakiriya.

Umugabo wicaye ku ipikipiki yambaye ingofero y'umutuku y'ubwirinzi, iyo pikipikiba ikaba inyuma hariho isanduku ifite amabara y'umweru, umukara, ndetse n'umutuku hakaba hajyamo ibiryo abishyiriye abakiriya babitumye bakoresheje murandasi.

Inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere, igereretse inshuro imwe, ikaba iri mu gipangu cyayo cyonyine, iri ku muhanda neza, ikaba ari inzu ikodeshwa iri mu Mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa amadolari igihumbi gusa buri kwezi.

Inzu isizemo amabara y'umweru ndetse n'umukara ikaba irimo amakaro, ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe, ikaba ari inzu iri kugurishwa, ikaba igurishwa miliyoni ijana na makumyabiri z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu irimo amakaro ndetse isize irangi ry'umweru hakaba harimo n'utubati dukoreshwa mu gikoni aho bategurira ifunguro, ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa kigali i remera ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Inzu isizemo amarangi y'umweru irimo n'amakaro ikaba ari inzu iri kugurishwa iri mu mujyi wa kigali ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi neshanu z'amanyarwanda. Hakaba harimo amatara ndetse n'igisenge cyubatse neza mu buryo bukomeye.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali Kabeza, ikaba ari inzu ifite ubwiherero, ikaba ari inzu iri gukodeshwa mu mujyi wa Kigali ikodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu buri kwezi.

Inzu yubakishijwe amakaro ndetse ifite irangi ry'umuhondo, ikaba iri ku butaka bungana na metero kare magana atatu na mirongo irindwi n'eshanu, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali iri kugurishwa miliyoni ijana mirongo itanu z'amanyarwanda.

Ikibanza kiri kugurishwa gishobora kubakwamo inzu nziza igezweho, kikaba kiri mu mujyi wa Kigali i Bumbogo i Musave, kikaba ari ikibanza kiri kugurishwa amafaranga miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda.

Inzu irimo amarangi y'umweru harimo amarido ndetse n'idirishya, hateretsemo matela iriho imisego y'umweru ndetse hashashe neza, ikaba ari inzu iri i Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, ikaba iri kugurishwa ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu by'amadorari.

Inzu yubakishijwe amatafari, ifite amabati y'umutuku, ndetse isize amarangi y'ubururu, ikaba ari inzu iri mu mujyi wa Kigali, muri Kabeza, ikaba yegereye umurenge wa Kabeza.

Inzu yubatse neza mu buryo bw'amajyambere ikaba igeretse inshuro imwe, ifite amabara y'umweru n'umukara, ikaba ari inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali Kimironko, ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero bune.

Inzu ikodeshwa yubatswe mu matafari ya rukarakara ikaba iri mu mujyi wa kigali iherereye i Kanombe ikaba ifite ibyumba bine mu bwiherero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda ya buri kwezi.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali ku Gisozi, ikaba ari inzu ifite aho gutekera ndetse no kogereza ibyombo, irimo amakaro, ikaba ari inzu ifite icyumba kimwe ndetse n'ubwiherero bumwe, ikaba ikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi by'amanyarwanda.

Inzu iri mu gipangu yonyine ifite igipangu kirekire gifite umuryango mwiza ufiteho irangi ry'umukara ndetse n'umuhondo, ikaba ari inzu iri imbere y'umuhanda iri gukodeshwa ibihumbi magana atandatu by'abanyarwanda buri kwezi.

Inzu irimo amarangi y'umuhondo harimo n'amarido, ikaba ari inzu ikodeshwa iri mu mujyi wa Kigali ku Gishushu, ukaba wayikodesha ku madolari magana ane buri kwezi, ikaba ari inzu irimo televiziyo ndetse n'ameza.

Inzu ifite amarangi asa nk'icunga ndetse n'umweru, ikaba igeretse inshuro imwe, ikaba ari inzu yo gukodeshwa ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwiherero bubiri, ikaba ikodeshwa igihumbi cy'amadorari buri kwezi.

Inzu isize amarangi y'umweru ndetse n'irangi risa n'icunga, ikaba ari inzu irimo amakaro ikodeshwa, ikaba iherereye Kibagabaga, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero bumwe.

Inzu ifite amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu, ikaba ari inzu iherereye mu Mujyi wa Kigali i Kanombe, ikaba igurishwa, ikaba ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara, ndetse isize n'amarangi y'umweru ikaba ari inzu iri mu mujyi wa Kigali i Kibagabaga ikodeshwa, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero bubiri ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda buri kwezi.

Inzu ifite amabara y'umweru, umukara n'umuhondo, ikaba ari inzu irimo amakaro hose, ikaba iherereye mu Mayanjye igurishwa miliyoni cumi n'eshanu.

Inzu isize amarangi y'umuhondo, umutuku n'umweru, ikaba ari inzu iherereye ku Gisozi ikodeshwa, ikaba irimo ibikoresho byose umuntu yakenera, ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero bubiri.

Inzu ikodeshwa ifite amarange y'ubururu ndetse amabati y'umutuku, ikaba iri mu gipangu kinini ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali Kicukiro. Ifite ibyumba bine ubwiherero butatu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda buri kwezi.

Inzu isize amarangi y'umweru ikaba igeretse, ikaba ari inzu iri mu gice cyo mu gacuriro mu mujyi wa kigali, ikaba iri inzu ikodeshwa buri kwezi. Ifite ibyumba bitanu ndetse n'ibiro ushobora gukoreramo akazi, ikaba yishyurwa amadorari ibihumbi bitatu ku kwezi.

Inzu yubatse i buryo bwa kijyambere, ifite amabati y'umutuku, isize irangi ry'umweru n'umukara, ikaba ifite umwanya wo guharikamo ikinyabiziga, ikaba ikodeshwa iri mu mujyi wa Kigali, kimironko, ifite ibyumba bibiri, ubwiherero, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu buri kwezi.

Inzu icururizwamo imyambaro ndetse n'inkweto z'abagabo n'abagore, hakaba harimo inkweto z'abagore zo gucomeka zikaba, zifite amabara atandukanye harimo umweru, ubururu, umukara, ndetse hakaba harimo n'imikandara y'abagabo ifite amabara atandukanye.

Inzu nini icururizwamo ibikoresho byo mu rugo bitandukanye, ndetse n'ibyo kurya harimo ibikorwa mu mafarini nk'imigati ndetse na keke, harimo n'ibyo kunywa nk'imitobe, amazi ndetse n'ibisindisha.

Isoko rinini ricururizwamo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibiribwa, harimo ibikorwa mu ifarini nk'imigati n'amakeke, hakaba harimo n'ibyo kunywa nk'amazi n'imitobe, ikorwa mu mbuto zitandukanye nk'imyembe, amatunda ndetse n'ibinyomoro.

Isoko ricururizwamo ibinyapeke bitandukanye harimo amashaza, ikawa, ibishyimbo ndetse n'uburo n'amasaka. Hakaba harimo n'ifu zituruka kuri ibyo ngibyo zo gutekamo nk'igikoma.

Inzu nini cyane irimo amatara menshi harimo n'irangi ry'umweru hakaba harimo, utubati turimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibyo kurya, bikozwe mu mafarini ndetse n'ibyo kunywa bikozwe mu mitobe itandukanye.

Amazu manini agurirwamo ibyo kurya ndetse n'ibikoresho byo mu rugo harimo ibyo kurya bikozwe mu ifarini nk'imigati ndetse n'amakeke, hakabamo ibyo kunywa nka fanta ndetse n'amazi n'imitobe.

Inzu nini cyane ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye harimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibikoresho byo mu rugo, hakaba harimo ibyo kurya bikozwe mu ifarini nk'imigati ndetse n'amakeke.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo ndetse n'ahandi, hakaba harimo imitako yo kumanikwa mu rugo harimo indorerwamo umuntu akoresha yireba ndetse harimo n'amasaha yo kurebera aho igihe kigeze.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara, ifite agasima kicayeho abagore ndetse n'abagabo batandukanye, imbere yabo mu twatsi hakaba hahagaze umugore yambaye ishati y'umukara irimo uturongo tw'umweru ari kugenda abahereza ibipapuro.

Abagabo babiri bambaye amakoti, umwe yambaye ikote ry'ubururu ,undi yambaye iry'umukara ndetse n'amapantaro bisa. Bahagaze mu nzu ikorerwamo n'Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda ,aho bafashiriza abaturage mu kwiteganyiriza ahazaza habo kugira nibagera mu zabukuru bazabashe kwibeshaho.

Ikarita ya mituweli uyifite ntarembera mu rugo ya BIZIMUNGU Jean Damascene, utuye mu Ntara y'Uburengerazuba i Rusizi mu Murenge wa Gihundwe mu Kagali ka buranga.

Amakarita atangwa n'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, akaba ari ikarita iyo umuntu ayifite ajya kwa muganga, bakamuvurira ku giciro gike gitoya ntabashe kurembera mu rugo, ahubwo bakamuha ubufasha bwose ku mafaranga mato.

Icyumba gitoya kirimo intebe zikozwe mu biti, hakaba hicayemo abantu bambaye imyambaro itandukanye ndetse hakaba harimo abagore n'abagabo bigaragara y'uko ari kwa muganga, mu kigo nderabuzima.

Ejo heza. Nzigamira ku bw'ejo hazaza hanjye na ejo heza. Wowe se? Ejo heza ni gahunda yashyizweho na leta kugira ngo abantu bazajye bizigamira kugira ngo nibagera mu zabukuru batakibasha gukora, bazabone ikibagoboka.

Inzu ifite irangi ry'umweru harimo ameza ikozwe mu giti, hicayemo umugore wambaye itaburiya y'umweru y'abaforomo, afite ikaramu ari kwandika mu gitabo, harimo n'undi wambaye umupira w'icunga afite ikarita ye ya mituweri.

RSSB ikigo cy' ubwiteganyirize mu Rwanda, reba imisanzu yawe muri RSSB, ikirangantego cya RSSB ndetse kiri mu ibara ry'umweru n' ubururu n'umuhondo.

Imbaga y'abantu benshi ivanzemo abagabo ndetse n'abagore, harimo n'abanyeshuri bambaye impuzankano, hakaba hamanitse ibyapa biri kwamamaza ejo heza, hakaba harimo n'abagabo bambaye ingofero z'umukara ndetse n'imipira y'umukara.

Isoko rinini ricururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi, hakaba harimo ibyo kurya bikozwe mu ifarini nk'imigati ndetse n'amakeke abantu barya banywesha icyayi.

Inzu nini cyane imeze nk'isoko, icururizwamo ibikoresho bitandukanye, harimo ibikoresho bikoreshwa mu rugo by'amasuku, ndetse n'ibyokurya bikorwa mu mafarini. Harimo amavuta yo kwisiga, ibikoresho by'abanyeshuri, bashobora gukoresha ku ishuri.

Isoko rinini cyane ribamo ibicuruzwa byinshi harimo ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibyo kunywa, hakaba harimo ibikozwe mu ivarini nk'imigati ndetse n'amakeke, harimo n'ibyo kunywa bikozwe mu mitobe y'imbuto zitandukanye.

Inzu irimo amakaro, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ndetse hacururizwamo imyenda, ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bikozwe mu mitobe cyangwa se amazi, hakaba harimo ibyo kurya bikozwe mu isukari, ifarini, nk'imigati ndetse n'amacyecye.

Inzu nini cyane ikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibikoresho bindi umuntu akenera mu rugo, hakaba hacururizwamo ibyo kurya harimo ndetse n'ibyo kunywa nk'imitobe ikozwe mu mbuto zitandukanye n'imyembe n'amatunda.

Inzu nini cyane ikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho bitandukanye byinshi ndetse harimo n'ibyokurya bitandukanye bikozwe mu mafarini nk'imigati ndetse n'amacake harimo n'ibikoresho umuntu akoresha mu rugo by'amasuku ndetse n'ibindi byo gutegura ibiryo.

Inzu nini isizemo amarangi y'umweru, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, bw'ibikoresho ndetse n'ibiribwa n'ibinyobwa, harimo ibinyobwa bikozwe mu mitobe y'imyembe, ndetse amatunda n'ibindi, hakabamo n'ibyo kurya bikozwe mu ifarini nk'imigati, ndetse n'ama keke.

Inzu nini cyane ikorerwamo n'isoko rigurisha ibikoresho bitandukanye byo mu rugo ndetse n'ibiribwa bikozwe mu ifarini nk'imigati, amakeke, ndetse harimo n'ibyo kunywa nk'amazi ndetse n'imitobe.

Inzu nini cyane irimo utubati dupanzemo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibikoresho byo mu rugo bikoreshwa mu masuku ndetse harimo n'ibyokurya bikozwe mu ifarini, imigati, keke ndetse n'ibyokunywa bikozwe mu mitobe n'amazi.